Abantu bahuriye ahantu habereye imyidagaduro bambaye mu buryo butandukanye imyeru, imihondo, imikara, oranje, hari ibyuma bitanga amashusho ndetse n'ibitanga amajwi bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bari kwifotoza, hari ibyapa bitandukanye bigaragaza ibyo bari barimo, ameza atatu atandukanye n'uducupa turi hejuru yatwo, ibitambaro bisa umutuku bitwikiriye ayo meza n'amasakoshi y'umukara ari hejuru yayo.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama, abantu bicaye ku ntebe z'imbaho bamwe bazimanitseho amasakoshi yabo, umugabo uri imbere uri kubigisha yambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere yaho hari impapuro hari n'abitandiye, hari abambaye amarinete, harimo ibara ry'umuhondo n'icyatsi n'ubururu.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama, gisa neza cyane, kirimo inzugi za shokora, n'umuhondo n'umweru, harimo abantu b'ingeri zitandukanye, hari n'abari ku meza bari bafite impapuro n'amatelefone n'uducupa tw'amazi imbere yaho, n'uwambaye imyenda yanditseho police ifite amanyenyeri ku rutugu.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo bicaye mu cyumba kimwe cy'inama, bakuyeho amarido ku madirishya hari n'inkingi hagati intebe z'imbere z'umukara, hakaba ariho ameza ariho igitambaro hejuru y'icyatsi. Ahandi h'umuhondo hateretseho uducupa twinshi harimo utwa ji nutw'amazi n'impapuro ku mpande.

Umugabo wambaye kositime n'ishati ya buresiyeri wambaye rinete yarakaye, imbere ye hari icupa ry'amazi yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma hari umugore wambaye imyenda ya kositime y'umweru, inyuma yabo hari abandi bantu batandukanye.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kimwe gikorerwamo inama bakaba hari imbere yabo icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu nyunguti z'umweru harimo amabara atandukanye umuhondo n'icyatsi n'ubururu bicaye bafite mudasobwa imbere yaho n'uducupa tw'amazi.

Icyumba kimwe kuri kuberamo Inama, cyicayemo abantu batatu bagaragara neza. Imbere yabo hari indabo n'uducupa tw'amazi, indabo z'umweru. Uwakuyemo ingofero iri imbere ye afite telefoni, yambaye lunette. Mugenzi we yifashe neza yambaye isaha n'agashaneti, undi yambaye umwenda usa pink.

Mu cyumba kimwe kiri kuberamo inama abantu bicaye ku ntebe za oranje niz'umweru bambaye udupira tw'ubururu turiho amagambo y'umweru n'akadarapo karimo amabara atandukanye imbere yaho hari uducupa tw'inyange bari kumeza afite ibitambaro by'ibara rya oranje.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'inama, bambaye imyenda igiye itandukanye, hari umumama wambaye imyenda y'umukara hasi, abandi bambaye ubururu.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama kigizwe n'amakaro menshi abantu bicaye ku ntebe za orange imbere yabo bafite ibyuma by'ikoranabuhanga mudasobwa na za telefone, hari abari imbere bameze nk'abari kurahira hari amadarapo atandukanye.

Umugabo umwe wirabura udafite umusatsi, wambaye rinete, ufite ubwanwa, wambaye karuvati ya shokora na kositime, imbere ye hari agacupa k'amazi y'Inyange, inyuma ye hari abantu batandukanye bakaba bari mu cyumba cy'inama.

Mu cyumba cy'inama, harimo abagabo bari mu nama. Umugabo wambaye ishati y'umukara, unafite ubwanwa, afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga igitekerezo cye yicaye.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama, abantu bicaye ku ntebe z'urubaho, ameza afite igitambaro cy'umweru n'ubururu. Umuntu uri imbere yambaye imyenda y'umukara n'umweru ari kubasobanurira, inyuma ye hari ama ekara ari kugaragaza bimwe mu byo bari kuganiraho, harimo amabara mu bururu, umuhondo, n'icyatsi muri iyo nyubako.

Abagore babiri bicaye mu cyumba kimwe cy'inama n'umugabo, bafite buri wese imbere ya mikorofone ndetse inyuma habo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo menshi y'ibintu bari kuganiraho byerekeranye n'umujyi wa Kigali, imbere hakaba hariho irangi ry'umutuku kuma meza yabo amacupa y'amazi y'inyange.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama hari urugi rukinguye hagaragara umuntu uri kwinjira bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imyenda irimo utubara dutandukanye uwambaye agakanzu karimo utubara dutukura wambaye isaha ku kaboko n'imisatsi myiza cyane, imbere yabo hari uducupa tw'Inyange bari ku meza buri wese afite udukaye imbere ye.

Umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara afite indangururamajwi, imbere ye hari akapa kagaragaza bimwe mu biri kubera aho ngaho intego yabyo, undi wambaye ikote n'agakaruvate k'ubururu hakurya aho hari abandi bantu b'ingeri zitandukanye bamuteze amatwi.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama, kirimo abantu bicaye ku dutebe dutukura dufite amaguru ya oranje, abantu bambaye imyenda y'umweru bari imbere ya porojegiteri irimo amagambo agaragaza ibyo bari gukora, imbere yabo hari udupapuro ndetse n'uducupa tw'amazi y'inyange.

Ahantu hamwe hari kubera inama runaka bakaba ari abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye udupira twa oranje, uri kuyobora yambaye ipantaro y'umukara n'agapira afite mikorofone mu ntoki, akaboko ke k'ibumoso kambaye impeta agatsikamije ku rupapuro ari kuvuga.

Abamama batatu bicaye ahantu mu cyumba kimwe cy'inama gitatseho imitako itandukanye hirya ku gikuta, ndetse bari imbere y'ameza y'ubururu hariho uducupa twinshi tw'amazi y'inyange n'akandi gatabo kameze nk'agaseke; n'ufite agakayi na terefone na bike mu ntoki.

Icyumba kimwe gikinze kiri kuberamo inama hakaba harimo umugabo wifashe mu mufuka yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati irimo uturomgo tumanutse ufite bike mu ntoki ze wambaye rinete, ufite ubwanwa burimo utuvi hakaba hari abamwicaye imbere, imbere yaho hari utuzi turi mu icupa ry'inyange.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama abagabo bicaye ku ntebe z'umukara uba hagarariye afite microphone n'urupapuro rw'mweru mu ntoki ze, yambaye n' ipeta ku rutoki inyuma hari ikiranga ntego kigaragaza inama y'inteko rusange y'abafatanya bikorwa b'akarere ka gasabo.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama kirimo abantu bicaye ku ntebe z'umukara b'ingeri zitandukanye abazungu n'abirabura, buri wese afite akamikoro imbere ye n'amazi na mudasobwa.

Icyumba gikorerwamo inama, kikaba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye abasore n'inkumi n'abagabo. umugabo uri imbere yambaye ishati ya shokora n'akabaji(badge), gasa umweruru yambara linete, imisatsi ye irimo imvi ndetse n'ubwanwa. Afite agacupa kanditseho inyange kari imbere karimo amazi, inyuma ye abahari nabo ni uko bimeze.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama, gifite inzugi zitandukanye n'utumikoro hejuru kuri parafo, umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afite mikorofone, ari kuganiriza abantu bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye imyenda itandukanye, uwambaye orange, ufite n'ibisuko.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mucyumba gikorerwamo inama ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ekara nini cyane irimo amagambo y'umweru isa ubururu, hejuru yabo hari udutara dutandukanye, bafite simatifone mu ntoki.

Icyumba kimwe kiri gusa na oranje harimo akabara k'umukara hagati n'umutuku, icyatsi hakaba harimo abantu batandukanye bari mu nama bakikije ameza, imbere yabo hari impapuro n'amacupa yamazi hari nufite za terefone na mudasobwa imbere yabo.

Ahantu mu byatsi hubatswe ihema rifite ibara ry'umweru, amabara atandukanye ritatse ubururu, umuhondo n'icyatsi, igiti kiri imbere aho ngaho n'abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye bitandukanye, uwambaye umupira w'umutuku ufite n'ibitabo imbere yiwe.

Ahantu hari kubera inama hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye udupira twa oranje, bafite impapuro z'umweru mu ntoki zabo. Imbere yabo hari ibyatsi ndetse n'umugabo ubahagaze imbere, ufite mikoro ndetse inyuma ye hari bafure isohora amajwi.

Icyumba kimwe, kiri kuberamo inama, kirimo abantu bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, bicaye ku ntebe z'umweru zifite akantu ku ruhande ka oranje l, inyuma urugi rurakinguye, hari utwapa tugaragaza icyo cyumba cy'inama.

Icyumba kimwe gikorerwamo inama kirimo abantu bingeri zitandukanye bafite uducupa tw'inyange imbere yabo ndetse nutundi tuntu turi ku meza y'umweru hari umusore wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ufite indangururamajwi akaba ari kubaganiriza.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama, kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, umugore umwe utari kugaragara neza umutwe, amarido asa shokora n'akuma kari iruhande rwayo k'umukara, abagabo bambaye amakote n'abambaye amashati, abambaye amarinete bifashe neza.

Abagabo bagera kuri batatu harmoi nundi wambaye ingofero y'umukara n'umumama umwe wicaye imbere yameza bayakikije y'umweru, hakaba hari uwunamye ari kuyandika ku cyapa kiriho kuri iyo ameza, afite ikaramu ifite akantu k'ubururu hejuru wambaye ikote ririho ibara rya oranje.

Abantu benshi batandukanye bicaye bari mu nama buri wese afite mudasobwa imbere ye hari n'abafite terefone inyuma yaho ku nkuta hari icyuma cya kizimyamyoto hari utugiriyaje dusa icyatsi hanze haragaragara ibyatsi mu kirahure.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama kirimo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye neza, imbere yabo hakaba hari ibitabo ndetse n'amacupa y'amazi namatelefone yabo, abagabo n'abagore batandukanye harimo amarido n'amadirishya atukura.

Icyumba kimwe gikorerwamo inama kirimo abantu batandukanye, umugabo wambaye rinete n'ikote rya karokaro n'undi wambaye imyenda y'umukara n'ishati y'umweru n'abandi bambaye imyenda itandukanye bafite mudasobwa imbere yayo.

Icyumba kimwe gikorerwamo inama kirimo abantu batandukanye, bambaye imyenda amakositime, hari uwambaye umweru, undi wambaye umweru n'ingofero y'umukara, imbere yabo harimo tu mikoro, bari kumeza atukura.

Icyumba kimwe kiri gukorerwamo inama kirimo abantu batandukanye, bari ku meza atukura buri wese imbere ye hari abafite laputopu n'agacupa k'amazi n'utumikorofone, hari umumama wambaye agashati k'umweru karimo uturongo tw'ubururu n'amarinete y'umukara, amaherena meza maremare.

Umugabo wambaye kositime ifite ibara ry'ivu, akaba yambaye rinete ufite utwanwa n'agasatsi gakeya, akaboko k'ibumoso gafite mikorofone, akaboko k'iburyo gafashe ku meza gasa shokora kamuri imbere, yambaye n'agakaruvate ari kumwenyura.

Ihema ry'umweru rikikijwe n'ibyatsi inyuma yaho n'ibiti; hari abagabo bambaye ingofero z'ubururu n'abambaye imipira y'icyatsi n'uwambaye ipantaro y'umukara; umugabo uri imbere afite mikorofone ndetse na terefone yambaye rinete ayoboye inama.

Sare imwe ikorerwamo inama hagati harimo ameza akikijwe n'abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara harimo abambaye imyenda y'umutuku, ya shokora n'inyuma kandi hakaba harimo n'abandi bicaye begereye igikuta ,hejuru hakaba harimo amatara acanye mo hagati hakaba harimo amatereviziyo cyangwa se ibyapa biriho ibiganiro bari kuganiraho.

Abantu b'abagabo bagera kuri bane bicaye mucyumba cy'inama harimo amarido y'umweru n'idirishya ridakinguye neza , bakikije ameza buri wese afite agacupa imbere ye bicaye ku ntebe z'umukara hari umugabo ufite isaha ku kaboko witangiriye itama .

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama harimo abantu b'ingeri zitandukanye, bakikije ameza imbere ya hamari amaraputopu bafite n'ibyo kunywa biri imbere yabo, ndetse n'ibirahure buri wese ari kwandika, umukobwa ufite ibisuko wambaye akenda karimo orange.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama kikaba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, kidakoreshejwe ibitambaro by'umweru abantu barimo hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'amarinette, imbere hari uwambaye umweru n'ipantaro y'umukara n'isaha, undi yambaye rinete afite tabureti ku bibero bye na telefone.

Icyumba kimwe gikorerwamo inama kirimo abantu batatu batandukanye, umugabo wambaye ishati ya oranje wambaye ma rinete, umudamu wambaye imyenda irimo amabara atandukanye afiite n'agafurari mu ijosi yambaye rinete ari guseka, hirya ye hari uwambaye ikote ry'umukara, imbere yabo hari amazi y'inyange na mudasobwa.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu batandukanye bagera kuri bane, abagabo n'abagore imbere yaho hari utumikorofone, umumama urikwandika n'ikaramu y'ubururu ku gakayi k'umweru ufite ibisuko ndetse n'undi wambaye akenda k'ubururu n'agasaha ku kaboko n'agapira.

Icyumba kimwe gikorerwamo inama kirimo abantu batandukanye, abagabo n'abagore bagera muri cumi n'umwe, buri wese ahugiye imbere ya mudasobwa ye, ndetse n'izindi nyandiko zitandukanye, mbere ye hari uducupa tw'amazi ya Nili ndetse bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umuhondo n'umweru

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama kikaba kigizwe n'amarido ndetse n'amadirishya afunguye, abantu bicayemo bicaye ku meza asa umweru, hari uwambaye umwenda wa orange n'ibisuko byiza bisa shokora bifashe ku matama, hari n'abari kunywa amazi abandi uducupa tubateretse imbere y'abo.

Icyumba gito kiri kuberamo inama irimo abantu batandukanye, bambaye imyenda y'ubururu, hari n'a nabitadiye mu mutwe, umu mama wambaye amarinete n'akakitandiro k'umutuku, n'uwambaye umwitandiro wa pinki yambaye n'agakomo, yifashe mu biganza inyuma ye hari umugabo yambaye.

Icyapa kinini gisa ubururu cyanditseho amagambo irembo mu ibara ry'umweru, hariho n'andi magambo atandukanye n'ay'umuhondo, umugabo wambaye umupira w'ubururu, akaboko ke k'iburyo gafashe telefone mu ntoki ze.

Ikirangantego cya arajibi, gifite ibara ry'umweru, icyatsi, umuhondo n'ubururu, handitseho amagambo, imiyoborere twifuza, umuturage ku isonga, ari mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Itangazo riri mu ibara ry'uburu amagambo y'umweru rikaba rishishikariza abantu kumenyekanisha ipatante y'umwaka wose wa bibiri na makumyabiri na gatanu cyangwa igihembwe cya mbere, uyu munsi bakishyura ku itariki ntarengwa ya mirongo itatu nimwe z'ukwambere bibiri na makumyabiri na gatanu hakaba hari n'amafoto ari muri laputopu agaragaza uko bikorwa.

Amagambo manini ari mu ibara ry'icyatsi akaba agaragaza ikirangantego akikijwe n'amagambo ari munsi ari mu ibara ry'ubururu, ukamanuka ukabona ifoto nini iriho abantu batandukanye bambaye imyenda y'icyatsi bafite ibiti mu ntoki zabo bagiye gutera, hakaba hari abambaye ingofero abazungu n'abirabura.

Irembo muri gahunda ya byikorere, umugabo wambaye umupira w'ubururu akaboko ke k'iburyo gafite terefone mu ntoki, ak'ibumoso kari gutunga agatoki kagaragaza sitepu wakoresha kugira ngo wishyure n'uko wabikora.

Umuhanda munini w'ibitaka ukikijwe n'inyubako bitandukanye, ipoto rirerire rifite insinga y'amashanyarazi, umudamu wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara n'agasaha n'impeta n'imisatsi myiza ari imbere y'ahantu hatangirwa serivise runaka.

Amagambo y'icyatsi n'ay'umukara biri ahantu ku rupapuro rw'umweru ndetse n'ahandi hari imisozi itariho abantu ndetse harimo n'amazi, ibiti byinshi ku mpande harimo n'urutoki rw'insina, amagambo y'umukara ari hepfo n'abantu bari mu cyumba cy'inama kimwe, imbere ya buri wese hari ameza ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'uducupa tw'amazi tuhateretse.

Moto iriho nuyitwaye, ufite amakasike asa umutuku akaba yambaye akajire kumuhondo n'udukweto tw'umukara, inyuma ye hakaba hari inyubako iriho n'icyapa kigaragaza ibikorerwamo, hafi aho hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'udukweto twa shokora n'agashati k'umweru.

Ikibuga kinini kirimo amapave, inyubako nini nziza ndende ikikijwe n'ibyatsi, ndetse hari ibyapa bigaragaza ibikorerwamo, hakurya hari indi nyubako isa na oranje ifite amadirishya y'umukara, imbere hari abantu bari kudutebe twicarwaho n'abagenzi bicaye, imbere yaho hari utuntu tw'umukara.

Icyapa kinini cyane cy'ubururu kirimo amagambo y'umweru n'umuhondo, hakurya hakaba hari telefoni irimo imibare itandukanye: akanyenyeri, maganinani, urwego. Hasi hakaba hari amafaranga y'inoti z'ibihumbi bitanu.

Aba mama benshi ndetse n'abagabo b'ingeri zitandukanye, bicaye ahantu mu cyumba kimwe ahari kuberamo ikiganiro, buri bose bafashe amatelefoni mu ntoki bakaba bari gukamera harimo n'uwambaye rinete bose bakaba bambaye n'udupfukamunwa.

Urubuga rw'irembo muri gahunda ya byikorere, ishyura mituweli ukoresheje kode y'irembo akanyenyeri maganacyenda n'icyenda urwego ugakurikiza amabwiriza aba yatanzwe ubundi ukemeza.

Umuhanda umwe utagaragara neza ukikijwe n'ibyatsi, hakaba hari umunara munini, ufite udukorotire dusa umweru, n'ikindi cyuma kiri hagati kinini, umunara muremure uriho utuntu dutandukanye, hari korotire nayo y'amabara hari n'ibyatsi, ibyumye n'ibitumye.

Icyapa kimwe cyanditseho amagambo atatu ariyo aragibi munsi hakaba hariho uko bisobanura amagambo arambuye , hirya hariho uturango dutatu twerekana izindi detaye munsi handitseho amagambo menshi y'umukara hari amanini n'amato ndetse amatariki n'umwaka.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu ari guseka, ikiganza cye cy'iburyo gifashe telefone mu ntoki, irimo amagambo menshi y'umukara harimo n'andi mabara y'umuhondo n'iry'ubururu cy'ibumoso gitunzeho agatoki ndetse ruguru handitseho n'andi magambo menshi atandukanye.

Amapoto abiri ariho insinga zikwirakwiza amashanyarazi, akikijwe n'umuhanda nyabagendwa. Ibiti n'indabo zitandukanye hirya no hino hagati mur'iyo harimo icyuma muri ayo mapoto.

Umuhanda umwe wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka ifite irangi ry'umutuku, icyapa kiri ku ruhande cyanditseho amagambo menshi atandukanye, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi zigiye hirya no hino, hariho n'iziziritse, imodoka ziparitse munsi zindi, harimo ifite irangi ry'umweru n'iry'umukara, inzu z'ubucuruzi ziri ku ruhande n'ibyapa bamamarizaho ibikorwa bihakorerwa.

Amapoto maremare ashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hakurya inyubako zitandukanye z'umweru hakikijwe n'ibiti, insina, ibyatsi ndetse na kontineri isa naho ari umutuku, igipangu kiri hino kiriho amatafari ya rukarakara.

Imodoka enye ziraparikwa, ipoto ry'igiti ririho insinga, imodoka isa n'umweru, iy'umukara ndetse n'ifite urwego hejuru yayo.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zigiye zitandukanye hari iziri buryo ,ibumoso hirya no hirya hariho n'itara hejuru ku ruhande hariho ibyapa byinshi bari kw'amamarizaho ari iki k'ikirangantego cya sitaritayimu ( startime) kiriho akandi ka eyateri( Airtel) biriho n'amabara atandukanye ari ubururu ndetse ahandi hariho umutuku n'umweru.

Igipangu gisa shokora cyubakishijwe amatafari ahiye, ipoto rirerire ry'amashanyarazi, umutaka w'ubururu imbere yaho hari abagabo batandukanye uwambaye imyenda y'ubururu imbere ye hari akameza ndetse numuryango ufunguye ukorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda umwe muremure ukikijwe n'ibiti bitandukanye n'uturaro tuzamuka tujya mu bipangu hino hari amapave n'ibyatsi ,igipangu igisa ubururu cyubakishijwe amabuye, ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi n'ibiti birimo imbere muri icyo gipangu.

Ipoto rirerire ririho n'insinga zitandukanye n'utubuwate twazo riri imbere y'inzu y'umuhondo ifite amabati ya shokora, amadirishya y'umukara y'ibirahure ndetse n'urugi rukikijwe n'ibyatsi iruhande rwazo ndetse n'ikirere cyumye.

Umuhanda munini muremure w'umukara udupurate turi kuruhande tw'umukara n'umweru dukikijwe n'ibyatsi n'akapa kari kureba imbere katagaragara neza, ibiti bikikije hafi aho umurima mutoya ugaragaza ko ibyatsi biri kumeramo, ipoto rirerire ry'insinga n'amatara yo ku mihanda n'inyubako.

Inyubako zitandukanye zikikije umunara ukwirakwiza amashanyarazi w'icyuma hakaba hari inyubako ifite ibara ry'umutuku n'umukara n'izindi zifite amabara atandukanye umuhondo no ku idirishya icyatsi n'umukara n'akagega kari hejuru yayo .

Umuhanda w'igitaka urimo umugabo wambaye ipantaro, hejuru ubururu. Hirya hari ibyatsi n'inyubako ifite amategura n'ibitoki, n'ipoto ry'amashanyarazi ririho utuntu tw'umukara ku ruhande rwayo. Hakurya hari inyubako itagaragara neza.

Urukuta rumwe rurerure cyane rukotiriwe na senyenge imbere yaho hari umunara muremure, ndetse hari n'akazu k'umurinzi wicayemo wambaye ingofero gafite ibara ry'umutuku ku mabati yako.

Igiti kirekire kiriho insinga z'amashanyarazi, imbere yaho hakaba hari igipangu kirimo ingo zitandukanye, hakaba ari n'ibiti bihakikije, umuferege w'amazi n'ibyatsi, ibiti biri hirya no hino, ndetse n'umuhanda w'amabuye.

Inyubako eshatu zitandukanye hari inyubako itararangira kubakwa, ipoto rirerire ry'amashanyarazi rifite insinga zitandukanye, inyubako ikurikira ifite icyapa gisa n'umweru n'amabara ashushanyijemo y'umutuku.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi rirerire, imbere y'aho hari inyubako ya kadasiteri ifite amadirishya y'umukara n'amabati y'umukara, ifite utugiriyaje ndetse n'akazu gatoya ka kometseho kariho icyapa cy'ubururu.

Abantu babiri bari kugenda ruguru y'umuhanda mu nzira y'abanyamaguru, uwambaye akenda k'umukara ndetse n'akajipo karimo utubara dutandukanye ufite ikoti ku rutugu n'uhetse akabaga mu mugongo, wambaye udukweto tw'umweru, ipoto rirerire ry'itara ku muhanda ndetse n'umunara uri hakurya aho n'ibitoki byinshi biri ruguru y'umuhanda.

Fondasiyo y'amabuye yegereye umuferege w'amazi, ifite udutiyo ku ruhande, ipoto rirerire rufite insinga z'amashanyarazi n'akantu k'umukara karifungiyeho, igipangu cy'umukara kirimo amazu n'amatara y'umweru.

Umunara muremure w'ibyuma uriho insinga z'amashanyarazi ukikijwe n'ibyatsi n'ibihuru byinshi ruguru hari inyubako y' amatafari ahiye ariho ama dirishya ageretse hari ibigega ku ruhande hirya no hino kuri iyo nyubako by'umukara.

Umuhanda urimo ibyatsi n'ibiti bitandukanye, ibyumye n'amatara kumuhanda n'insinga z'amashanyarazi, umunyonzi wambaye umupira w'ubururu hakurya hakaba hari n'imodoka z'amabara atandukanye z'umukara, umugenzi wambaye umutuku n'umutaka ugaragara gatoya w'umuhondo.

inyubako imwe ifite amabati y'umutuku ndetse isize irangi ry'umweru ririho n'idirishya inkingi zifashe zifite irangi ry'umweru ubusitani buri ku ruhande hepfo gato hari ahantu hasakaye hariho ibyuma bifashe icyo gisenge ndetse hariho n'tiyo y'amazi y'imvara.

Icyumba kimwe kimeze nko kwa muganga; umudamu wambaye ipantaro y'umukara n'itaburiya y'umweru arikumwe n'abandi bambaye udupfukamunwa bari kuri mashine; imbere yaho hari icupa ry'amazi rirerire, intebe y'umukara ibateretse imbere, ibitara binini n'amarido y'ubururu n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyumba kimwe kirimo abagabo bagera muri batatu batandukanye bakaba bari imbere ya mudasobwa bicaye k’ intebe z'umukara bose bambaye ama tabuririya y'umweru bafite impapuro imbere yaho na mudasobwa hari akabati kabikwamo impapuro hari n'akuma gacapa impapuro.

Imihanda ibiri itandukanye iri kwinjira mu kigo kinini cyo kwa muganga kitiriwe umwami Fayisari akaba ari inyubako nini iriho utuntu tw'ubururu n'amadirishya y'umukara n'amatafari ahiye, ibiti bihakikije, amapoto, ibendera ry'igihugu.

Inyubako y'amatafari ahiyemo, mo imbere hakaba harimo ibyuma bigaragara nk'ibitanga umwuka bikaba bifite amabara y'umweru n'umuhondo, harimo na kimwe gise umukara, hari n'akapa kariho amagambo agaragaza bimwe mu bihakorerwa, hakikijwe n'ibyatsi bitandukanye n'amatafari ku ruhande.

Umwana mutoya wicaye mu igare ry'abamugaye yambaye agapira agasa umuhondo, akaboko ke k'iburyo gafashe inkingi ifite ibara ry'ivu. Hari amapave hafi aho, hirya ye hari abantu, uwambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ibara ritukura n'amakaro ari hafi aho.

Ku kigo nderabuzima hari abantu benshi bicaye hamwe, bategereje guhura na muganga. Ku ruhande hirya hari abandi babiri bahagaze ku idirishya, bari kuvugana na muganga uri imbere mu nyubako.

Ahantu hamwe ubona hahurira abantu benshi hari amakaro y'umweru, hakaba hari abantu batandukanye bahagaze imbere y'umuryango runaka. Umugabo wambaye ingofero n'undi mupira n'ipantaro y'umweru ahagaze imbere y'urugi, hino hari ahantu hari nimero karindwi hejuru n'akandi kapa k'ubururu kariho amagambo y'umweru n'urugi ruriho metalike.

Agace gato k'imodoka ihetse imizigo y'umweru n'ibara ry'umukara, hakurya hari umuhanda ndetse n'icyapa kinini cyanditseho amagambo "komosiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu" n'ayandi ari muyandi mabara atandukanye, hakurya hari guturuka umumotari uhetse umugenzi, undi muntu ufite agakapu k'ubururu, akazu k'umuhondo kari gahagazwe imbere n'abantu babiri batandukanye.

Icyapa kinini cyumweru cyanditseho amagambo y'umukara yamamaza, kikaba cyamamaza i Kabgayi, akaba ari ibitaro by'amaso, muganga w'amaso hariho amasaha y'akazi kuwa mbere kugeza ku wa gatanu, ku wa mbere saa moya kugeza saa kumi n'igice ku minsi itari iy'akazi twakira indembe n'abagize impanuka, ku barwayi bivuriza muri mituweli do sante bitwaza taransiferi.

Imodoka ebyiri ziri muri parikingi y'amapave mbere yaho hagati hari akantu gatukura inyuma yaho hari inzu ya cadateri hari ibyapa bibiri bitandukanye cy'ubururu kikaba kiriho n'umukara n'ikindi cyumweru kirimo amagambo y'ubururu atandukanye.

Umuhanda wumukara uparitse imodoka nini yumweru ifite utubara kuruhande tw’ umutuku n'utundi tubara tw' udusaraba, hejuru mubihure byayo ku matara yayo hagenda hari akabara gasa orange urugi rurakinguye rwimbere kandi yanditseho ambulance.

Inyubako y'umuhondo yegerewe n'indi ifite amabati atukura, imodoka ziparitse imbere yaho, abantu bari kugendagenda hafi aho, wambaye ipantaro y'umweru n'agapira, ufite ivide ry'icyatsi mu ntoki, n'agacupa kariho umufuniko w'umutuku, n'uwambaye iby'ubururu.

Abantu benshi bahuriye ahantu hari imodoka ebyiri zanditseho imbangukira gutabara akaba ari kwa muganga. Hari abantu bingeri zitandukanye, umunyeshuri ufite impapuro muntoki ze, wambaye umukara n'umeru n'umumama ufite agasakoshi kuruhande wambaye udukweto tw'udusandari na abantu batandukanye bicaye muri izo ntebe.

Inyubako nini y'umuhondo ifite amabati y'umukara hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, imbere yaho hari imodoka itwara abarwayi kwa muganga izwi ku izina ry'imbangukiragutabara, imbere yaho hari abagabo batatu batandukanye, uwambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi uri hirya wambaye umukara,

Abantu bicaye mu cyumba kirimo umuhondo n'umweru, hari intebe zitariho abantu, umugabo wambaye umwenda w'umukara n'umukobwa wambaye agatambaro, hirya ye hari uwambaye iroze, hari utugambo turi hejuru twandikishije ibara ry'icyatsi.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'umutuku handikishijweho amagambo atukura kuruhande, imbangukiraragutabara ibitaro bya CHUK hakurya hakaba hari izindi modoka zitandukanye hakaba hari n'ibiti n'izindi nyubako aho ngaho.

Ikibuga kirimo amapave gikikijwe n'ibyatsi bitandukanye harimo n'inyubako zigiye zitandukanye, ikigega kiri muri giriyaje y'umuhondo, hari amamoto, umugabo wambaye umwenda w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama akaba ari ahantu ubona hatagaragara neza, harimo abagabo bambaye iby'imikara n'umweru, urimo hagati yambaye imyenda isa n'iroza, imbere ye hari mudasobwa ndetse na mikorofone n'umugozi wayo, umugabo umuri iruhande yifashe mu biganza.

Abagabo babiri bose bambaye udupfukamunwa ,bambaye imyenda y'umukara harimo utuntu tw'umweru nu wambaye imyenda y'iroza imbere yabo hari mashini ya raputopu( latop ) ndetse n'agacupa karimo sanitayiza ,hirya harimo intebe z'umukara ndetse n'akandi gacupa karimo amazi y'inyange.

Icyumba kimwe kirimo abantu batandukanye bambaye imyenda y' iroza n'udupfukamunwa twi'iroze n'abambaye imyenda y'ikigina aho hantu hasa shokora n'uwambaye imyenda yumukara n'umweru nawe yambaye agapfukamunwa.

Icyumba kimwe kirimo abagabo batatu batandukanye babiri bambaye iby'umukara n'umweru umwe muri bo akaba yambaye i rose bose bakaba bambaye amarinete undi akaba afite uruhu rwera ndetse akaba afite umusatsi mwinshi mo gakeya nyuma yaho hari igikuta kiriho ibendera ry'igihugu ndetse n'ifoto ya nyakubahwa .

Umugabo w'inzobe wambaye rinete z'umukara yatawe muri yombi n'abagabo babiri b'abapolisi bambaye imyenda y'umukara, akaba yambaye ishati ya buresiyeri, akaba afite ubwanwa hejuru y'umunwa we ari kumwenyura.

Icyumba kimwe kirimo abantu batandukanye hakaba harimo abambaye amashati y'ubururu harimo umugabo wambaye imyenda isa n'iroza, afite igitabo cy'ubururu n'umweru arimo aragisoma.

Icyumba kimwe kiri kuberamo iburanishwa harimo abagabo batatu batandukanye ,uwambaye imyenda y'iroza ndetse n'amarinete mu maso ye wirabura abandi babiri bambaye umukara n'umweru ,umwe afite agakaramu mu ntoki ziwe akaba ari kuvuga.

Abagore n'abagabo harimo n'abazungu n'abirabura, abambaye amakoti n'abambaye imyenda isanzwe, bicaye mu cyumba kimwe cy'inama, higanjemo amarangi abiri y'icyatsi ku ruhande n'undi mugabo uhagaze wambaye kositimu y'umukara n'abandi babiri bambaye imyenda y'umutuku n'ingofero bafite idarapa ry'u Rwanda mu ntoki zabo.

Icyumba kimwe kirimo abantu b'ingeri zitandukanye hakaba hari abantu batatu bagaragara neza bambaye utuntu ku rutugu rwabo turimo amabara atatu: ubururu, umuhondo n'icyatsi, handitseho amagambo mu ibara ry'umweru. Umugabo w'umusaza ufite imvi, ufite ikaramu imbere ye n'igitabo ari kwambaramo, n'abandi na bo ni uko bimeze.

Abantu bicaye ahantu hamwe hari kubera inama bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe z'urubaho hari uwambaye ibitukura; abandi imyeru n'umukara hari umugabo wambaye ubururu n'umuhondo, igisharagati gisa oranje hejuru kigizwe n'ibiti n'imbaho.

Icyapa kinini cy'ubururu n'umweru kiriho amagambo y'umukara cyandikishijwe kuri gereza ya Nyamagabe, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa gereza ya nyamagabe kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu.

Umuntu wicaye wambaye ikoti ry'ubururu ndetse na gashanete, amaherena, yicaye ku ntebe y'umukara afite ikaramu mu ntoki yambaye isaha, imbere hari ikirahure, agacupa k'amazi ndetse n'akandi ka ji n'impapuro wambaye ishati irimo imbere irimo utunu tw'umukara n'umweru.

Kizimyamyoto ebyiri zitandukanye zifite ibara ry'umutuku ndetse na oranje n'umukara n'umweru, iruhande rwaho hari akantu kariho udufureshi dusa umutuku n'akandi gasa umweru.

Kizimyamwoto ebyiri zitandukanye ziteretse hasi imbere y'amakarito zavuyemo. Zifite amabara atandukanye umukara, umuhondo, ubururu, umutuku, n'umweru nayandi.

Umugabo w'umupolisi wambaye imyenda y'umukara, imbere ye hakaba hahagaze icyombo, akandagiye ku mapave, aho ngaho hari amavatiri abiri yanditseho polisi, ku ruhande rwo hirya hashushanyijeho ibara ry'umukara ndetse na oranje n'amagambo agaragara neza yanditseho polisi.

Umuhanda wa kaburimbo, ugabanyijwemo kabiri n'ubusitani burimo hagati. Hirya yawo hari abagabo babiri, umwe wambaye impuzankano y'abapolisi bo ku muhanda. Hirya y'abo bagabo hari inyubako ndende.

Parikingi irimo ama pave umupolisi uyihagaze imbere harimo ya polisi ifite irangi y'umukara n'umweru nyuma yaho hari abagabo, uwicaye yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'pantaro ya shokola.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti, harimo abantu batandukanye; abagore n'abagabo n'abana bambaye udupfukamunwa, umumama afite akana imbere yambaye ipantaro y'umukara n' umupira urimo umweru n'umukara n'amaherena y'umweru...

Abagabo babiri inyuma yaho hari undi wambaye agapfukamunwa n'umupira w'iroza wifashe mu mayunguyungu bari imbere y'inyubako iriho ibyapa bitandukanye bigaragaza ibikorerwamo akaba ari nk'amazu y'ubucuruzi umugabo umwe wambaye imyenda yanditseho polisi rwanda atunze agatoki

Abadamu babiri batandukanye bari ahantu hasa n'ubururu n'umutuku, umwe akaba yamabaye igitambaro n'uduherene tw'umweru n'umwenda urimo utubara dutandukanye ubururu n'umutuku, ndetse n'utundi tubara tugiye turi muri uwo mwenda.

Abantu benshi cyane, bambaye imyenda yiganjemo amabara agize idarapo rya FPR, harimo abafite n'utudarapfa mu ntoki duto, bafite n'icyapa kiriho ifoto ya perezida Paul Kagame, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru n'amarinete ndetse munsi handitse n'amagambo y'umukara.

Icymba kimwe kiri kuberamo inama hakaba hari abantu bari imbere yabo batatu bafite indangururamajwi, umugabo wambaye impeta n'isaha kukaboko akaba ari gukoresha imwe muri zo, umumama ufite amazi imbere ye y'inyange usutse udusuko wambaye agashati.

Abantu batatu batandukanye bari imbere y'inyubako hari abandi inyuma yabo, bakaba bambaye imyenda itandukanye, umu mama wambaye agasaha ku kaboko n'imyenda irimo ubururu, umugabo wambaye rinete, na kositime, umukobwa wambaye imyenda y'umukara.

Abantu babiri batandukanye umugore n'umugabo bari imbere y'ikirangantego cyanditseho repuburika y'uRwanda hirya yabo hakaba hari amadarapo y'igihugu akaba ari umugamu Marie Ruwise Mushikiwabo ndetse na perezida Paul Kagame.

Abantu bagera mu icumi bari mu cyumba kimwe runaka, bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma yaho, hari ibyapa biri inyuma yaho bigaragaza ibirangantego by'umuco nyarwanda, bahagaze abandi bicaye kuri tapi irimo utubara tw'umuhondo n'umukara..

Icyumba kimwe kiri kuberamo igikorwa cyo kurahira, abagabo n'abagore bakaba bamanitse amaboko, uwambaye kositime y'ubururu n'uwambaye iby'umukara, umu mama wambaye imikenyero irimo utubara dutandukanye, n'undi wambaye indi mikenyero bahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu.

Umugabo wirabura ufite umusatsi mukeya, akaba yambaye karuvate ifite utubara dutandukanye n'ishati y'umweru, ikote ry'umukara, akaboko ke k'iburyo kariho impeta ariko ntikagaragara neza, inyuma ye hari amadarapo ariho amabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, umukara n'umweru n'ubururu.

Abantu bagera kuri bane bahagaze imbere y'icyapa abagore n'abagabo, umwe muri bo afite micro ku munwa ari kuvuga, umudamu wambaye isaha afite telefoni mu ntoki ze, hari undi ufite impapuro mu ntoki, uwambaye amalunette nyuma yaho icyapa gihari hariho umugabo wambaye costume.

Umuntu mwiza wambaye imyenda ya kositimu y' iroza akaba afite umusatsi mwiza muremure wi'gikara, yambaye agashanete n'uduherena twiza, ari kumwenyura imbere ye hari ibendera ry'igihugu ririho amabara agaragara n'abiri; umuhondo n'ubururu imbere yiwe.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'akarongo k'ubururu ku ruhande, ingofero ndetse iriho akantu hejuru k'akaranga ntego kameze nk'akari inyuma ku cyapa, amarinete y'umukara imbere hakaba hari ama mikorofone atandukanye harimo n'iy'ubururu.

Umugabo umwe wambaye kositimu y'ubururu imbere ye hariho microphone, yambaye karuvati arimo aravugana n'itangazamakuru hari na mudasobwa ari gukanda akaba ari amakuru yo mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane, umukandida Mpayimana yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru.

Abamama batandukanye bicaye ku ntebe z'umweru, uwambaye ipantaro y'ubururu n'ikote ry'umukara n'agatambaro mu mutwe k'umweru afite ikaye y'ubururu, undi yambaye rinete, undi afite ibisuko by'umuhondo, mugenzi we yambaye amarinete

Icyumba kimwe kiri kuberamo inama uhagarariye inama aka afite akamikorofone imbere yiwe ndetse n'abandi barakurikiye buri wese imbere ye hari aka mikorofone ndetse n'amazi y'inyange, bifashe neza bari ahantu hari ibara ry'umutuku.

Abantu bahagaze imbere y'intebe ahantu hari kubera igikorwa cyo kwamamaza. Bambaye imipira itukura, abandi iy'ubururu igiye irimo amabara y'umutuku n'umweru; bambaye ingofero z'umweru bamanitse amaboko bafite amadarapo yanditseho umuryango wa Efuperi inkotanyi, bari mu gikorwa cyo kwamamaza.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu gikorwa cyo kwamamaza. Icyapa kinini kiriho ibara ry'umutuku, amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditseho Umurenge wa Karambo, Akagari ka Karambo, hakaba hariho ifoto y'umukandida n'amagambo yanditseho ngo 'Tora Kagame' mu ibara ry'ubururu n'umutuku, n'andi yanditseho FPR.

abantu batatu basutamye bamwe bambaye ipantaro yumukara umipira w'umweru n'abandi bakaba bambaye imipira y'umweru hari utuntu tw' icyatsi ku maboko y'ibumoso bafite impapuro mu ntoki zabo kandi no hasi hari izindi nyinshi zamenetse.

Umugabo wirabura, ufite mikorofone mu ntoki ze, akaba yamanitse akaboko, agasatsi gakeya, uri kumwenyura, inyuma ye hakaba hari abantu batandukanye, imyenda yambaye ikaba igaragaza ko ari iy'ishyaka runaka, harimo amabara atandukanye; icyatsi, umuhondo, n'umutuku.

Icyumba kimwe kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru na shokora harimo abantu b'ingeri zitandukanye bamanitse amadarapo yanditseho FPR, imbere yaho hari uwambaye umupira w'umweru n'agapfukamunwa na rinete wamanitse ingofero wambaye isaha ku kaboko y'umukara.

Umumama wicaye mu cyumba cyijimye kitagaragara neza, hirya ye hakaba hari ikintu kimeze nk'igipupe gikozwe mu rubaho, afite imisatsi myiza cyane y'umukara yambaye rinete n'uduherena ku mazuru ye n'agakufe mu ijosi, yambaye n'imyenda y'ubururu.

Ikamyo y'umweru yikoreye ifite utubara k'uruhande tw'icyatsi hari imodoka y'umukara iri iruhande rwayo, umuhanda w'umukara ikikijwe n'ibyatsi n'ibiti na birodire ifite akararo bambukiraho.

Hakurya y'umuhanda w'umukara hari amazu y'icyatsi itaramara kubakwa nindi y'umuhondo nakazu gasumutuku n'abantu bari kugenda genda hafi aho, nutuntu turimo umutuku n'umweru turi hafi ahongaho kumuhanda.

Umuhanda munini nyabagendwa urimo ikamyo isa y'ubururu n'umweru, iruhande rwabo hari umumotari utwaye umugenzi, inzira nyabagendwa y'amapave irimo abantu batandukanye, umugabo utwaye igare wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara.

Umuhanda urimo imodoka nini cyane ya bisi irimo amabara y'umweru n'ubururu ndetse na'agatara k'icyatsi urebeye mu kirahure ubona izindi modoka hakurya z'umuhondo harimo akabara k'umuhondo n'intebe zirimo amabara atandukanye umugabo wambaye imyenda y'umukara ninkweto zirimo umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugenda mo imodoka ndetse na moto, ibinyabiziga bitandukanye bitwaye abantu, ndetse utuburaroke tw'umukara n'umweru ku ruhande, hari inzira y'abanyamaguru n'icyuma kihatangira, ubusitani buri hagati muri bo, burimo ibiti biteyemo n'ibyatsi, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi n'amatara yo ku mihanda.

Umuhanda munini muremure irimo ikamyo yo mubwoko bwa fuso, ifite shitingi y'ubururu iyitwikiriye, ndetse n'abagabo babiri bari kunyonga igare bahetse abagenzi, hakuno hari umuhanda abagenzi banyuramo ndetse n'umuferege w'amazi, hakurya hari n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara uririmo uturongo tw'umweru, hakurya hari imodoka ya kwasteri, iri mu ibara ry'umweru hari utugambo tw'umuhondo twanditse mu kirahuri cyayo cy'umukara, hari abamotari bari inyuma yayo benshi cyane n'izindi nyubako zitandukanye handitseho amatangazo agaragaza ibikorerwamo.

Imodoka ebyiri zirimo amabara atandukanye, umutuku n'umweru ziri mumuhanda wumukara ukaba ukikijwe n'ibiti bitandukanye, ndetse n'poto, ruguru hari inyubako isa umuhondo iriho n'utwugi dusa shokora.

Umuhanda munini ukikijwe n'ibiti, bisi ndende iri kuwugendamo ifite ibara ry'umweru n'utubara twubururu n'icyatsi amagambo yanditseho Ritico Limitedi. Umugabo wambaye inkweto z'umuhondo n'ipanatalo y'ubururu wikoreye igifuka kurutugu rwe.

Umuhanda munini urimo imodoka y'umweru, hakurya hakaba hari ibiti n'amapoto, imbere hakaba hari indi modoka itagaragara neza, hari umuhanda w'abagenzi urimo agaferege gatoya kamanura amazi muri borodire cyangwa se ruhurura.

Ikamyo nini cyane y'umutuku izwi ku izina rya howo itwaye umucanga itwikirijwe shitingi y'ubururu, hakuno hari ibiti n'umuferege w'amazi n'agace kagendwamo n'abagenzi.

Imodoka ebyiri zegeranye, harimo n'ifite irangi ry'ubururu n'umweru, hagati mu birahure hakaba haciyemo utuntu tw'umuhondo, hasi kandi handitseho utugambo twinshi dutandukanye, iri ku ruhande iriho akabara k'umutuku ku matara n'akapa gatandukanye k'umweru, kanditseho mirongo itandatu.

Umuhanda wa kaburimbo urikunyuramo akamoto kandiditseho amagambo y'umweru gasa ubururu inzira z'abanyamaguru iburyo n'ibumoso n'utundi tu dutwara abagenzi. Igare rifite akantu k'umutu inyuma uyitwaye yambaye umukara n'umweru ndetse na ruhurura iri hano ibumoso n'indabyo ziri ku ruhande.

Amamoto atandukanye azwiho gutwara imizigo myinshi ari muri parikingi y'amapave akaba asa n'ubururu amatara yayo ni umuhondo na orange handitseho amagambo atandukanye na nimero za telefone z'abazitwara ziri imbere y'inyubako irimo gukorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini ukikijwe n'umuferege w'amazi n'akararo gahagazeho umudamu wambaye imyenda irimo amabara atandukanye, ufite indobo irimo ibisheke akaba arimo arakongora ibisheke ajugunya mu mufuka uri hafi aho yikoreye ingata, hakurya ye hari imodoka iri mu muhanda w'umukara iriho amabara atandukanye, iri kwamamaza isabune ya sante.

Ikamyo y'umweru n'umukara ifite agatara ka oranje hejuru yayo, iri mu muhanda nyabagendwa ukikijwe n'ibiti, iruhande rwabyo hakaba hari na borodire ikikijwe n'akararo n'ibyatsi biri iruhande rwayo hafi aho.

Umuferege w'amazi wegereye inzira nyabagendwa urimo amapave hakurya hari umuhanda urimo umumotari uri kugenda ureba muri telefone, hakurya hari ikamyo y'umweru iriho uturongo tw'umutuku ku ruhande ndetse n'andi magambo y'ubururu yanditse mu magambo atagaragara neza.

Moto yubururu ifite shitingi yumukara itwaye umuzigo iri mumuhanda muremure wumukara utwaye urimo indi modoka imanuka , ndetse ikikijwe n'ibiti nk'amapoto atandukanye imbere yipoto rimwe hahagaze abagabo babiri uwambaye umuhondo n'umutuku .

Umuhanda munini urimo imirongo igaragaza abagenzi bambukira hakurya hari ibiti bitandukanye umumotari uri kuri moto itukura utwaye umugenzi wambaye udukweto tw'umweru n'agakora ka shokora yambaye agashati karimo utubara dutandukanye hakurya hari amatara ku mihanda n'izindi nyubako .

Umuhanda umwe ukikijwe nibiti bya icyatsi, abantu bawugendamo hakurya hari uwambaye akenda k'umuhondo, hariho imodoka y'ibara ry'umweru yo mubwoko bwa ikamyo iriho uturongo twa utugambo tw'ubururu na amatara yumutuku, umugabo wambaye ibirenge wikoreye igifuka kumutwe.

Umuhanda munini nyabagendwa w'umukara urimo ikamyo y'umweru iroho shitingi y'umukara, hari uturongo dutambitse tw'umutuku imbere yaho mukirahure. Umunyonzi wambaye ipantaro y'ubururu atwaye igare ndetse ririho umufuka w'umweru.

Umuhanda muremure urimo uturongo ugizwe n'udupurente kuruhande rw'umukara n'umweru n'udupave ukikijwe n'ibyatsi kuruhande, igipangu gisa umweru, amapoto kuruhande n'ibiti, mu nsinga z'amashanyarazi n'abamotari bari kuwugendamo.

Umuhanda munini w'umukara urimo imodoka imwe y'umweru ifite amapine y'umukara, ikikijwe n'ibiti n'indabo zitandukanye, hino y'aho hari borodile y'amabuye hariho n'indabo iruhande rwazo zitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara wegereye akayira k'abagenzi harimo imodoka y'ikamyo iriho shitingi yubururu hafi yaho hari indi modoka y'umweru hari n'umunyonzi uri kugenda hafi aho, umuhanda urimo ibiti n'ibinyabiziga bitandukanye .

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo akamoto gakunda gutwara imizigo gafite shitingi hejuru, yanditseho nimero ku ruhande indi imodoka irimo iratambuka, ifite irangi ry'ubururu inzira z'abanyamaguru, kumpande zombi iburyo n'ibumoso, ruhurura hano hino n'utuboloke dutangiye hejuru yayo, mu busitani buri ku ruhande.

Umuhanda munini nyabagendwa, iruhande rwawo haparitse imodoka eshatu zitandukanye, ibanza akaba ari imodoka itwara abagenzi, ikoreshwa nka tagisi vuwatiri, yanditseho yego kashi, na nimero zayo, hakurya hari inyubako.

Umuhanda umwe muremure w'umukara urimo uranyuramo imodoka yo mu bwoko bwa bisi, iri gusa umutuku irimo amabara y'umukara, ndetse n'amagambo manini ari mu ibara ry'umweru yanditseho jagwari, imbere yabo hari abagenzi bari kugenda ku igare, hakurya yabo hari ibiti bitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye, ukaba ishamikiweho n'indi mihanda, bikikijwe n'ibiti n'ibyatsi amatara yo ku mihanda ndetse n'udupurenti turiho umukara n'umweru ku ruhande, moto iri kuwugendamo.

Umuhanda munini w'umukara uri kugendwamo n'ikamyo ihetse amatafari ahiye ndetse atwikirije shitingi y'umweru, imbere y'aho hari umugenzi wambaye agapira ku mutuku ufite n'akantu k'ubururu, ipoto ry'itara ryo ku muhanda.

Umuferege w'amazi ukorotirijwe amabuye hakaba hari akararo iruhande rwawo, hakurya hari imodoka irikugenda mu muhanda w'umukara, isa n'ibara ry'umutuku, irimo utubara tw'umuhondo, itwikirijwe ishashi y'umukara hakurya hakaba hari ibiti bitandukanye mu muhanda.

Umuhanda mu Nini urimo uturongo tw'umweru, hakurya hari umu motari uhetse umugenzi, nundi muntu wambaye agapira ku umweru urimo uturongo, uhetse n'akantu mu mugogo. Kwasiteri y'umwreru iriho amagambo y'umuhondo hejuru ku kirahure n'indorerwamu. Hari nindi modoka arimo utubara du tandukanye.

Agace gatoya k'umuferege uvana amazi mu muhanda, moto y'icyatsi iri mu muhanda muremure, hakurya hari imodoka y'umweru n'ibyapa byamamaza, ibiti bitandukanye n'abamotari bari kugenda mu muhanda.

Umumotari ari mu muhanda hafi y'inzu ndetse n'itaje. Yambaye inkweto z'umukara, ipantalo ya kaki, umupira w'umukara, ijire y'umuhondo ndetse na kasike y'umuhondo.

Ikamyo yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi ku ruhande n'agahondo itwikirijwe na shitingi y'ubururu ikaba itwaye amakara, hakurya hari ibiti bitandukanye mu muhanda.

Umuhanda munini w'umukara urimo imodoka ebyiri zitandukanye n'umumotari uhetse umugenzi, imodoka zisa umweru n'ikirenge cy'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu na kenda k'umuhondo ufite telefone mu kundi kuboko kutagaragara neza uri mu nzira y'abanyamaguru.

umuhanda munini wumukara urimo imodoka zitandukanye harimo coaster nini cyane yumweru n'umukara ifite uturongo twicyatsi ,kuruhande toyoto igaragaraho gato ifite agatara gasa umutuku nayo yumukara hakurya hari abamotari nibiti bikikije aho ngaho ni poto .

Ikamyo nini cyane yo mu bwoko bwa fuso ifite amabara atandukanye icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu n'ayandi atagaragara neza hakurya hari ibyatsi ndetse n'umumotari ugaragara igice kimwe, akararo ndetse na borodire.

Imodoka imwe iri mu muhanda irasa umweru hari amagambo y'umutuku yanditse inyuma ngo TOYOTA, hafi aho hari igare riparitse iruhande rwayo imbere hari abantu batandukanye n'ikamyo iri gupakurura imifuka, hakurya hari ibiti bitandukanye n'abamotari n'abandi bagenzi bari kugenda mu muhanda.

Ihuriro ry'imodoka nyinshi igizwe n'amapave hari umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto zijya gusa umuhondo, afite akabaga k'umukara harimo imodoka zitandukanye.

Umwe mu bamotari bahagaze mu muhanda w'igitaka, uri imbere y'amaduka akorerwamo ubucuruzi butandukanye, bamushyiriyeho umufuka kuri moto yiwe w'umweru, umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'inkweto z'umuhondo, ari gufata umukoba kugira ngo awuzingire kuri moto ye.

Inyubako nyinshi zitandukanye zikikijwe n'abantu n'ibyatsi, n'utuzu dukorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, umuhanda usa umweru urimo n'akabara ka oranje. Hino hari umuhanda munini urimo umumotari witwaye wenyine wambaye kasike isa umutuku...

Ikibuga kinini kirimo amapave kiri kugendamo abantu hakikijwe nibiti byicyatsi n'inyubako y'umuhondo ifite amadirishya yubururu, amapoto y'amashanyarazi.

Ibyatsi byinshi birimo amabuye atandukanye harimo ayamenaguritse n'udutoya twavungaguritse, hari intebe iri imbere yaho y'umutuku n'umukara ipoto rirerire risa n'umweru amapavu ahagazweho n'iyo ntebe n'agasima kari iruhande rwayo.

Ikibuga kinini gisa umuhondo gikikijwe n'ibyatsi imbere yaho hari inzu yakira abantu ifite utugiriyaje dusa shokora ndetse hari inkingi y'ubururu n'umweru inyuma yaho hari ibiti bitandukanye.

Inyubako ihurirwamo n'abantu benshi irimo amabara atandukanye ubururu, umuhondo n'icyatsi isakajwe n'amabati hicaye abantu batandukanye bamwe muribo hari uwicaye wambaye ipantaro y'umukara yeretse akaguru hejuru abandi bicaye bakurikiye imbere.

Agace gato k'umuhanda usanzwe w'umukara n'akandi gace kari hakurya y'umuhanda usa icyatsi ukaba ugenewe kugenderwamo n'abagenzi ariko bakora imyitozo ngororamubiri hakikijwe n'ibyatsi n'izindi nyubako ziri hakurya.

Inyubako imwe ifite amabati n'inkingi z'ibyuma ziri mu mabara atandukanye atatu ubururu, umuhondo n'icyatsi, iyo nyubako hakaba hari amakaro ndetse n'ama esikariye y'umutuku, abantu bicaye ruguru, ibiti bikikije hirya no hino hafi aho.

Icyapa kimwe kinini kiriho amabara atatu atandukanye umukara, umweru, n'ubururu. Hakaba hari ijambo riri mu nyuguti ya pa risa umweru, hasi hakaba hashushanyijeho bisi ndetse hasi hakaba hariho akantu k'umukara karimo amagambo y'umweru.

Agace gatoya k'umuhanda kariho udu purente tw'umweru n'umukara hakurya hakaba hari ibyatsi harimo icyapa kigizwe n'amabara atatu umutuku n'umukara n'umweru harimo inyuguti ya P mu ibara ry'umukara.

Icyapa kimwe gihagaze ku cyuma, hasi hariho akantu k'umukara, kimeze nk'aho kirimo hagati, hejuru hakaba hariho akandi kameze nka tiriyangere, karimo hagati akantu k'umukara na none karimo utuntu dutatu, hariho ak'umutuku ndetse umuhondo n'icyatsi.

Icyapa kinini kiri mu ihuriro ry'aho abagenzi bambukira, mu mirongo y'umweru, cyanditseho Rusizi disitirikiti, inyuma y'aho hari andi magambo ari ku cyapa cy'umukara, n'ikindi cyapa kinini cyane, hakurya hayo hari amashyamba atandukanye, n'ibindi byapa biri imbere, n'amatara ku muhanda.

Umuhanda uri hejuru y'uwundi sitasiyo ya esanse iri hafi ahongaho, hari abantu batandukanye, n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari ibiti, amapoto. Hino hari icyapa kiyobora abagenzi gishobora kubafasha, abagiye i Nyamata Kagarama ndetse...

Umuhanda mwiza muremure urimo imodoka ebyiri zitandukanye iri imbere ni umutuku iya kabiri ni umweru iri inyuma, ndetse munsi yaho hari ibyatsi n'ibiti bitandukanye ipoto rirerire n'icyapa cyanditseho bugesera disitirikiti.

Icyapa kinini gishinzwe kuyobora abagenzi kikaba gishyirwa mu mihanda ihurirwamo n'abantu benshi kikaba gifite ishusho ya triangle kigizwe n'amabara atatu atandukanye hagati muri yo harimo ibara ry'umukara rishushanyijemo akantu ayo mabara akaba ari umutuku, umweru n'umukara.

Icyapa gishinzwe kuyobora abagenzi cyikaba kigizwe n'amabara atatu atandukanye: umukara, umutuku, n'umweru. Kikaba kirimo abantu babiri umugabo n'umwana, bakaba bari kwambuka umuhanda.

Agace gato ka inyubako iriho icyapa cyanditseho impara resito bare, hakaba hariho na icyapa kiri hejuru cyanditseho pirimusi, hakurya hari amapoto na inyubako zitandukanye na ibiti, inyubako nini cyane ya umweru nizindi ziyikikije zifite amabara ya oranje.

Inzira y'abanyamaguru ikozwe n'amapave iri kugendamo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati, imbere ye hari umutaka wa emutiyene n'umwajenti wicaye ku ntebe y'umweru, hari amapoto abiri y'insinga z'amashanyarazi, imodoka iri iruhande rwaho n'izindi nyubako, hakurya hari umuhanda n'abandi bagenzi bari kugenda hafi aho.

Amazu menshi y'amakadasiteri afite amarangi atandukanye harimo na etaje ya amabara atandukanye ku mabati harimo ya oranje abiri yegeranye afite ibipangu bitandukanye kirimo ibara ry'ubururu, ikindi gifite ibara rya beje ruguru hakaba harimo afite amabara y'umutuku ku mabati, ndetse n'ay'umukara n'ibiti bigiye biteye hagati muri yo.

Inyubako nziza cyane imeze nk'amacumbi isa na orange ifite amadirishya y'umukara imbere yayo hari imodoka zitandukanye n'abantu babiri bambaye umukara n'umuhondo ndetse n'ibyapa bigaragaza ibikorerwamo, hari n'ahanditseho Gihozo hoteli hariho ibintu bitandukanye.

Inyubako ya etaje iriho amabara y'umukara cyane cyane yiganjemo n'ay'umweru, hari n'akandi munsi kajya gusa umuhondo kamanitse ho icyapa bakunda kwita fotibeti aho bakinira imikino y'amahirwe, hakaba hanyura ho n'insinga z'amashanyarazi, hejuru yaho n'imbere yaho.

Ahantu hari amagambo mu kantu k'umweru y'umukara avuga ngo Kimironko, Bibare. Munsi harimo amazu ndetse n'ibiti byinshi, harimo afite amabati y'umutuku ndetse n'indi ya etage ifite porotaye y'umweru n'indi hirya itaruzura, mu muhanda w'itaka harimo imodoka igenda.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, hakaba hari ibyapa bigaragaza ibikorerwamo, imbere hari amamodoka atandukanye iri mu bwoko bwa toyota n'amavatiri. Ivatiri isa umukara n'izindi ziri kuza, iy'ubururu, abantu bari inyuma bambaye imyenda umweru n'umutuku n'ibiti bihakikije.

Inzu ya etaje nziza cyane, ifite irange ry'umuhondo, iriho ipapuro byinshi bamamarizaho, utugiriyaje tw'umukara, ndetse n'akandi kabara k'umutuku hejuru, ikigega cy'amazi kiri inyuma mu gikari, anteni ya kanari iri imbere, n'imodoka ihaparitse munsi y'umweru.

Icyapa kinini kiri kuranga muri metero ijana ko hari isibo nimero gatandatu, ubwitange , umudugudu wa Rwinyange, akagari ka Rwimbogo, n'umurenge wa Nyarugunga.

Inyubako nziza cyane iri mu ibara ry'umuhondo harimo uturongo tw'umukara n'umweru hakaba hari abagabo bambaye imyenda y'ubururu bari imbere yaho, n'imodoka ihaparitse, n'umusekirite wambaye umukara n'ubururu, hari n'igare iruhande rwe, n'izindi nyubako hari n'ibyapa bigaragaza ibihakorerwa.

Imihanda ibiri itandukanye uw'igitaka n'uwa kaburimbo ikikijwe n'ibyatsi, igipangu cy'umukara amatafari ahiye ikikijwe n'ibara risa orange n'ibiti birimo imbere ikindi gipangu kiri ruguru y'umuhanda cy'icyatsi harimo n'ibiti birimo imbere muri cyo.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo n'imodoka y'umukara harimo n'utuborodire hano ku ruhande, hashamikiyeho igipangu kiririho gifite utugirayaje tw'umukara, amapoto ndetse n'amatara byo ku muhanda n'insinga z'amashanyarazi n'ibyapa bigiye biri hirya no hino, hari n'igifite irangi ry'umutuku.

Umuhanda w'itaka, hepfo hariho akaborodire gatoya, gakikijwe n'ibyatsi ndetse n'ahandi hapavomye, imbere hariho ibihuru, amazu menshi atandukanye, harimo amakadasiteri n'amayetaje, afite amarangi y'umutuku hejuru ku mabati n'andi afite amarangi ya pinki, aya oranje, umuntu uri kugenda muri ako kayira, wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara.

Parikingi y'amabuye yiparitsemo imodoka y'umukara, akaba ari inyubako iri inyuma yaho igizwe n'ibyatsi idasakajwe amabati asanzwe umumama wambaye imyenda y'umweru n'udukweto tw'umukara, n'isakoshi y'umukara, ari kwinjira muri umwe muri izo nyubako.

Igiti kiri imbere y'umuhanda w'umukara, hakurya hari inyubako igeretse kabiri, ifite ibara rya oranje, imbere yaho hicaye abagabo babiri ndetse imbere yawo hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku irimo umweru, hari n'imodoka ziparitse iruhande rwaho.

Ibyatsi byinshi birimo ipoto rirerire ry'amashanyarazi, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikorotirijwe n'igipangu kimeze gityo n'utugiriyaje tw'umukara n'ibiti biri hafi aho ngaho ifite amategura n'indi nyubako iri inyuma yayo igeretse ifite irangi rya oranje harimo n'andi mabara atandukanye.

Inyubako imwe ifite ibyapa bigaragaza ibikorerwamo, imbere yaho hari amapave, imodoka ebyiri ziparitse imbere iy'umweru n'iyumukara, hari umugabo wambaye ishati ya pinki n'ipantaro y'umukara n'abamotari babiri batandukanye.

Inyubako nziza cyane ijya gusa umuhondo ifite utugiriyaje tw'umweru n'aka oranje ku muhanda ibirahuri by'umukara, ikikijwe n'ibiti n'indabo zisa umuhondo igipangu gisa umukara n'irangi rya oranje mo hagati.

Umuhanda munini w'ibitaka munsi yawo hari ibipangu bibiri bitandukanye. Ikirimo inzu ya kadasitere ifite amabati y'umutuku n'amatara ku muhanda, igipangu cy'icyatsi hanze hari ibyatsi n'ibiti, mu gipangu harimo ikigega cy'amazi.

Umuhanda w'umukara uriho inyubako zitandukanye zigeretse kabiri, hari ipoto ririho n'insinga hejuru hakikijwe n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi hari n'amabuye imbere y'aho.

Inyubako igeretse isa umweru iriho n'utubara dutandukanye, hariho icyapa kigaragaza ibikorerwamo hari amapave n'ibyatsi bihakikije ,imodoka ,ibiti n'izindi nyubako ziri hakurya zifite amabara atandukanye.

Inyubako igeretse ifite ibara ry'umuhondo utugiriyaje tw'umukara hariho ibyapa bitandukanye bigaragaza ibikorerwa muri izo nyubako ,imbere yaho hari abagenti bafite umutaka usanzwe n'abantu n'imodoka n'izindi nyubako ziri ku ruhande zitandukanye.

Umuhanda munini w'abagenzi urimo imodoka zitandukanye, hepfo hakaba hari inyubako n'icyapa kigaragaza ibihakorerwa, hari abagenzi uwamabaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, ipoto rirerire ry'insinga y'amashanyarazi, n'izindi moto ziri guturuka haruguru.

Umuhanda muremure w'umukara urimo abanyonzi ndetse n'abamotari n'imodoka ziri imbere, hari undi muhanda uri hejuru yawo uri kugenderaho kwasteri, ukikijwe n'ibiti n'ibyatsi n'imiferege y'amazi.

Umuhanda munini ushamikiyemo undi hakaba ari utu buroke duta turiho umukara n'umweru, hakurya y'umuhanda hari abantu bambaye imyenda y'imituku, imodoka icanye itara ryaka cyane ry'umutuku, hakurya hari andi mamodoka n'amatara yaka cyane.

Umuhanda munini uriho udupurente dukikije amapavu anyurwaho n'abagenzi n'akazu kicarwaho n'abagenzi, abamotari n'imodoka zitandukanye biri kugenda mu muhanda, hari ibiti bitandukanye n'ikiraro kigenda hejuru y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho n'indi ishamikiyeho ku mpande ndetse n'inzira z'abanyamaguru zikikijwe n'utuboroke tw'umukara n'umweru, harimo n'abagenzi n'uwambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umweru, amatara hagati muri ho, hari n'inzira y'abantu bambukiraho muri zebura korosingi n'imodoka imwe.

Umuhanda w'igitaka winjira mu muhanda wa kaburimbo, hepfo hari guturuka ikamyo y'umutuku irimo ibara ry'ubururu, amapoto abiri y'insinga z'amashanyarazi, ruguru hari guturuka ivatiri y'umweru, hari borodire ndetse n'ibyatsi bihakikije n'ibiti ku ruhande.

Ku muhanda munini ushamikiyeho indi mihanda mu boko kw'iburyo hari inyubako zitandukanye imbere yazo hari imodoka nazo zitandukanye ziri muri parikingi y'amapave, hari abantu bahagaze imbere abamotari imodoka zifite amabara umukara umweru ndetse hirya hari ibindi byapa.

Umuhanda munini muremure urimo imirongo, ukaba ufite udupurenti ku ruhande tw'umukara n'umweru n'amapave n'akararo, ruguru hakaba har'imodoka zitandukanye amatara ku muhanda n'ibinyabiziga bindi n'ibiti na moto.

Umuhanda nyabagendwa uriho indi mihanda myinshi igiye itandukanye harimo aho abanyeshuri bari hakurya y'umuhanda inyubako zitandukanye zifite amabara mu mutuku ndetse zikikijwe n'ibyatsi hirya no hino akagiga kari hejuru y'igipangu.

Imihanda ibiri nyabagendwa ifite aho abagenzi bambukira mu mirongo hakurya hari inyubako zitandukanye hariho ibyapa bigaragaza ibikorerwamo mu mirongo hari kwambukiramo abantu hino hari umunyeshuri mohagati harimo umumotari uri kugenda mu muhanda.

Imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri iri kugenda mu muhanda w'umukara hakaba hari ipoto rirerire ndetse n'ikiraro kiri kugenda hejuru hakaba kiriho n'umuhanda ,ibiti biri hafi aho ngaho ndetse n'urukuta rw'amabuye .Umugabo wambaye iby'umweru byo gutambika kuruhande n'ibyatsi biri hafi ye.

Agace gato k'inzira y'abanyamaguru kariho umukara n'umweru, umuhanda munini ushamikiyeho indi muhanda itandukanye, harimo imodoka n'ibindi binyabiziga, ibiti ku ruhande, amatara ku muhanda, n'inyubaka irimo kugaragaza igisenge cy'ubururu.

Parikingi nini y'amapave ihagazemo umugabo uri inyuma y'igare ririho utuntu tw'ubururu imbere yaho hakaba umumotari uri kuza udafite umugenzi wambaye kasike kukuboko, hakurya hari umunyonzi utwaye umugenzi mumuhanda munini ufite udupurenti tw'umukara n'umweru ufite imirongo mo hagati ukaba ukikijwe n'utwatsi.